Umwana kuva akivuka agenda aterwa ingingo zitandukanye mu gihe gitandukanye cy'imyaka yiwe. Harimo urukingo rw'iseru. Harimo urw'imbasa, igituntu, indwara y'umwijima ndetse n'izindi zitandukanye. Ibyo byose aba ari ukugira ngo bimwongerere ubudahangarwa abe atabasha kurwara izo ndwara bitewe n'uko yakingiwe. Urukingo ni ngombwa kubera ko iyo urukingiwe bikurinda ko iyo ndwara ikugeze mu mubiri ubudahangarwa bwawe burwana na yo. Bityo nturware.

Abana ni umugisha. Ni ba perezida ba ejo, abaminisitire, abaganga, ebenginiyeri, ndetse n'ibindi. Hari ikigo ku isi yose, cyitwa UNICEF, akaba ari ikigo cyita ku abana, kikamenya ko bafite ibikenewe byose, kirwanya indwara z'abana, ndetse n'ibindi, kugira ngo babungabunge ubuzima bwabo, bazakure babayeho neza ndetse bazateze imbere isi.

Amazi ni ingenzi mu buzima, amazi afasha mu igogora, amazi afasha koza mu nda, amazi afasha kuringaniza ubushyuhe, amazi agufasha mbese mu bintu byinshi bitandukanye. Abana mu nce zimwe na zimwe zo mu Rwanda, mugitondo babyuka bajya kuvoma kugira ngo bafashe ababyeyi babo, babone amazi bakifashisha mu gukoropa, guteka ndetse n'ibindi.

Abanyarwanda dukunda kujya inama. Mu nama umuntu aba afite ibyo agomba kwereka abantu, harimo mu nyandiko aribyo bita Power point, bakaba babiteguye, bakereka abantu ibiri buvugweho, ikibazo gihari, igisubizo gihari, ibyavuzwe ubushize, ingamba zafashwe, ibitarakurikijwe ndetse n'ibihano bihari kutazakurikiza ibyo bemeranyijweho.

Amazi ni ingenzi cyane mu mubiri, amazi adufasha gukora amasuku, amazi adufasha mu guteka, amazi adufasha gukura imyanda mu mubiri ndetse n'ibindi bitandukanye, ni muri ubwo buryo ababyeyi batuma abana kuvoma, kugira ngo bazane amazi yaba yakwifashishwa gukoresha imirimo yabo itandukanye, kugira ngo bakomeze ubuzima bwabo busanzwe.

Inama Mpuzamahanga ikunda kuba kenshi cyane hagamijwe yuko abantu bashinzwe Igihugu cyangwa se izindi Organisation zitandukanye, baza hamwe bagakemura ibibazo baba bafitanye, abe mu bufatikanye kugira ngo imibanire yabo igende neza, ndetse bakemure impaka zaba ziri hagati yabo. Iyo birangiye rero bafata ifoto y'urwibutso nkuko Umunyarwanda abivuga nta foto nta cyabaye.

Bimwe mu masomo umuntu yagakwiye kumenya no koga birimo. Abana baturiye hafi y'imigezi itandukanye bakunda kujya koga, aho babyitoza bakiri bato, ndetse abo bana ni byo birangira babikoze nk'umwuga, ugasanga biri kubinjiriza. Koga ni byiza mu buzima kuko bidufasha kumva uruhutse, si ndi kuvuga koga muri dushe, ndi kuvuga koga mu migezi, muri pisine ndetse n'ahandi.

Mu nce zimwe na zimwe zitandukanye zo mu Rwanda hari ikibazo cy'amazi. Aho usanga abana batandukanye barimo bararwanira amazi, kugira ngo babe babona ayo banywa, ayo batwara mu rugo bakifashisha mu buzima bwabo busanzwe. Ni muri ubwo buryo Leta y'u Rwanda yahagurukiye iki kibazo aho iri kugenda izana imigezi itandukanye mu nce zitandukanye, ikazana utuzu tw'amazi ndetse igakangurira n'Abayobozi kwita kuri icyo kibazo, kuko amazi ari ingenzi cyane mu buzima kandi umuntu atabaho atayafite.

Abayobozi batandukanye hirya no hino ku isi bajya bahura bakagira inama kugira ngo bakemure ibibazo bitandukanye bigenda bivugwa, iyo iyo nama irangiye bajya imbere ahantu hasa neza bakaba bafata ifoto y'urwibutso, kugira ngo berekane koko ko iyo nama yabaye, nk'uko umunyarwanda akunda kubivuga nta foto, nta cyabaye.

Abana bataragera imyaka ine n'itandatu bakunze kurwara indwara nyinshi zitandukanye. Mu Rwanda tugira amahirwe kuko dufite abaganga batandukanye bashinzwe kwita ku bana ariwo mwihariko wabo. Umwana iyo arwaye ajyanwa kwa muganga na mama we cyangwa se papa we ndetse n'abandi bamurera. Umuganga icyo afasha apima umura akareba uko ameze, akareba nimba ari imiti yamwandikira ndetse akamukurikirana kugira ngo ubuzima bwe bumere neza.

Muri bibiri na makumyabiri u Rwanda ndetse n'isi yose rwatewe n'icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda, zimwe mu ngamba zaje zakomeje kwifashishwa ndetse na nyuma yaho harimo kuzana kandagira ukarabe aho wakandagiraga amazi akava mu ndobo agera mu kabase ukaba wakaraba, ku ruhande habaga hari isabune ugakaraba neza ukuramo imyanda mu nzara kugira ngo utanduza abandi ndetse nawe ugire ubuzima bwiza.

Mu nshe zitandukanye z'u Rwanda harimo Cyangugu i Kibungo ndetse n'ahandi, hakunze kumvamo ikibazo cy'uburozi aho umuntu akugirira ishyari akaba yagushyirira ikintu mu biryo kigatuma uba umusazi, abasaza akenshi hari igihe bagenda batambaye imyenda ugasanga bafite kore mu ntoki ndetse bakagenda basabiriza ngo barebe ko baramuka ariko mu by'ukuri nta kintu baba batekereza baba bameze nk'abihebye, baba batazi n'aho bari.

Polisi y'u Rwanda ifatanya n'abaturage mu kurwanya ihohoterwa kuko ari inshingano yacu nk'Abanyarwanda, mu ihohoterwa harimo ubwoko butandukanye, hari ihohoterwa ryo mu rugo, hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse hari n'izindi hohoterwa, twebwe nk'Abanyarwanda dukwiye guhaguruka tukarirwanya tugaharanira uburenganzira bwa muntu.

Umuntu yitwa umusazi iyo yagize gucanganyikirwa mu buzima bw'iwe akaba atazi ibyo arimo ndetse rimwe na rimwe ukajya ubona ari gukora ibintu adasobanukiwe nawe we ubwe ndetse nawe ubwawe udashobora kumva, akenshi bazwiho gutoragura ibishashi gukunda ahari nk'ikimoteri hahandi mbese twita induba tumena imyanda n'ibishingwe byose usanga abasazi bakunda cyane ndetse no kubitoragura.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane. Iyo umeze neza mu mutwe, uba wakora neza, ukabana n'abandi neza, ukishima ndetse bikakurinda kujagarara mu mutwe. I Bugesera haherutse kuzanwa agakirinike gashinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, gafasha Abanyarwanda, kabagira inama, ndetse gakuraho imyumvire mibi ijyanye n'ubwo buzima, kugira ngo barusheho kuba neza, babana n'abandi neza ndetse banamenye ibibitera.

Itariki icumi z'ukwakira, ni umunsi Mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe. Iyo umeze neza mu mutwe ubasha kuba wakora akazi kawe neza bikakurinda siterese, ukabana n'abawe neza, ugahorana ibyishimo ndetse bigakurinda n'ibindi bibazo bitandukanye wabasha kuba wagira bitewe n'uko mutwe utameze neza.

Bimwe mu bintu bituma abantu bakura neza n'igikoma kirimo umubyeyi aba agomba gushigisha igikoma akagihera abana ku gihe kugira ngo babyibuhe bagire ubudahangarwa bukomeye ndetse babashe kuba bagira amagufwa akomeye iyo umwana yanyweye neza agahaga bimufasha gukora neza mu byo akora yaba gukina mu myidagaduro yaba mu ishuri ndetse n'ibindi.

Iyo ushaka ko amenyo yajya ku murongo hakoreshejwe ibikoresho byo kuyakosora bikozwe mu byuma elasitike ndetse n'ibindi, mbere yuko umuganga agira icyo agufasha w'amenyo ubanza kunyura mu cyuma cya X-Ray. Icyo kigufasha gufata ifoto y'ukuntu amenyo yawe aforumye, bityo akayikoresha amenya ibyo agomba kuguha, ibyo agomba gukuramo ndetse n'ibindi.

Isuku ku menyo ni ingenzi cyane, ni muri ubwo buryo buri munyarwanda wese ndetse n'abandi ku isi hatandukanye twagakwiye kumenya uko twayitaho, tukamenya uko twayogeje neza umuhumuro uri mu kanwa ari mwiza kugira ngo bitaza kubangamira abo tuvugisha, amenyo ni ingenzi cyane niyo mpamvu iyo utayitayeho bishobora kuba byakuviramo ibibazo, amenyo agufasha mu igogora ndetse n'ibindi bitandukanye.

Kwita ku menyo ni ingenzi cyane. Ni muri ubwo buryo Leta yateguye gahunda y'uko abavuzi b'amenyo bajya mu mashuri abanza bafatanyije n'abarimu babo, kwigisha abanyeshuri uko bakita ku menyo yabo, ibikoresho byabugenewe bakoresha, ndetse n'inshuro bagomba gusukura amenyo yabo.

Abana bameze amenyo baba bakwiriye uburoso butoya bw'abana, kugirango bazajye biborosa, bibarinde umwuka mubi mu kanwa ndetse bite ku menyo yabo uko bikwiriye. Iyo bayitayeho bituma bavuga neza, baseka neza, ndetse bibongerera icyizere mu buzima bwabo kuko baba bazi ko ntawe babangamiye.

Mu Rwanda hasigaye yaraje tekinoloji ihambaye, ni muri ubwo buryo dusigaye dufite icyuma cyitwa egisireyi icyo cyuma kigufasha gufata ifoto y'amenyo yawe aho ukijya ukakiryamaho ukasama kikagufata ifoto iyo foto ikajya kwa muganga w'amenyo akaba yayifashisha kugirango ngo amenye icyo agomba gukorera amenyo yawe, ari ukuyashyira ku murongo aho atameze neza, muri make ibyo amaso y'umuntu atabasha kubona neza icyo cyuma kibigufashamo.

Abana batandukanye mu mashuri abanza bakangurirwa kwita ku isuku y'amenyo yabo. Aho baba bafite uburoso bw'amenyo ndetse na corogate kugira ngo baze kwiborosa nibirangiza bitume amenyo abasa neza ntibagire umwuka mubi mu kanwa. Isuku y'amenyo ni ingenzi kuko amenyo adufasha mu igogora ndetse n'ibindi bitandukanye, bityo ni ngombwa ko tuyabungabunga kugirango ngo atazagira ibibazo.

Iyo uri gufata imiti, biba byiza kureba ku gipapuro muganga yakwandikiye. Ukareba ibinini yakubwiye ngo ufate, inshuro ugomba kubifata, ndetse n'icyo yakubwiye ngo ubinyweshe cyangwa ubirishe. Mu basheshe akanguhe iyo bakuze, abasirikare b'umubiri babo barapfa bakaba bakeya, bityo bagasanga akenshi bagiye kwa muganga. Ni ngombwa rero ko nimba wagiye kwa muganga ukurikize ibyo muganga yakubwiye, ukabifatira ku murongo kandi ku gihe.

Umuryango ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu. Umuryango ugufasha gutera imbere. Umuryango ukugira inama, umuryango urakugaburira, umuryango ntabwo ureka ngo utandukire. Umuryango ni byose, ni bityo ni ngombwa ko twagafasha amafoto y'urwibutso n'imiryango yacu, twishimye kugira ngo igihe tuzakura cyangwa se n'abazadukomokaho bazifashisha ayo mafoto, bareba uko twari tumeze ndetse n'abo twasabanaga.

Mu kinyarwanda baravuga ngo: "Icyo utoje umwana akiri mutoya, arinda asaza ataracyibagirwa". Ni muri ubwo buryo, ni byiza ko watoza umwana imyitozo ngororamubiri ndetse na siporo zitandukanye. Harimo imikino itandukanye nka basiketi, futuboro ndetse n'iyindi. Ibyo bimufasha kuba yakura abikunze, ndetse bimuha ibyishimo, bikamufasha no gukora siporo, agorora umubiri wiwe akora ibyo akunda.

Mu baganga harimo abashinzwe kubaga. Babaga ibintu bitandukanye. Indwara zananiranye, ushobora kuba ufite ikibyimba ku bwonko, umugongo ukurya, mu nda haurya ndetse n'ibindi. Iyo bagiye kukubaga, baba bambaye agapfukamunwa, bipfutse mu mutwe ndetse bambaye n'ibishashi. Ibyo ni ukugira ngo hatagira indwara bagukuraho, cyangwa se ugasanga ibyo bagukizaga nabo barabyiteye.

Dufite ibigo bitandukanye by'abakobwa gusa mu Rwanda harimo Stella, Fawe ndetse na Gashira Gaz Academy, muri ibi bigo bajya bagira igihe cyo kwiga ku buzima bw'imyororokere bw'abakobwa bakiga uko imihango igenda, uko umukobwa atwita, ndetse n'ibindi kugira ngo babashe kuba basobanukirwa uko imibiri yabo ikora kugira ngo batazigera bahahamuka mu gihe babonye impinduka.

Nyakubahwa Jeanette Kagame yazanye ubukangurambaga mu bijyanye n'ubumenyi bwo mu mutwe cyangwa se kumera neza mu mutwe. Yibanze ku ngingo z'ingenzi avuga ko iyo utameze neza mu mutwe iterambere ry'umuryango ribura ndetse ukadindiza n'iterambere ry'Igihugu. Ni butyo rero twagakwiye kwita yuko tumeze neza tukarinda ihahamuka abana bacu, bagakurira mu ngo zimeze neza zitarimo amakimbirane ndetse n'imvururu.

U Rwanda rushyize imbere guteza imbere imyigire y'umwari n'umutegarugori. Dufite ibigo bitandukanye by'abakobwa gusa harimo Gashor Stella Matutina, FAWE ndetse n'ibindi. Muri ibyo bigo biga ibintu bitandukanye ariko cyane cyane ibijyanye na siyansi ndetse na tekinoloji. Ibyo aba ari ukugira ngo mu gihe kizaza bazabashe kwiteza imbere batabogamiye cyangwa se bibande cyane ku mitungo bakura ku bagabo, ahubwo na bo ubwabo biteze imbere.

Hanze y'ibitaro byo mu Rwanda uhasanga parikingi aho washyira imodoka yawe ugiye kwivuza cyangwa se uvuje umuntu wawe, akahasanga ubusitani bwiza cyane harimo: imikindo, kanyombya ndetse n'ibindi biti bitandukanye. Ibyo byose bifasha kugira ngo ibitaro bise neza, bigire isuku ndetse ahantu nuhagera wumve umutuzo.

Umuvuduko w'amaraso ni indwara yibasiye benshi mu Rwanda. Ntabwo yibasira abakuru gusa ndetse n'abato ijya ibageraho. Iyo ugiye kwa muganga, umuganga wabugenewe agukoreshereza icyuma cyabugenewe gifata umuvuduko w'amaraso kugira amenye ikibazo waba ufite. Bishobora kuba byaterwa n'uko ufite umubyibuho mwinshi ukabije, diyabete se cyangwa se ukaba urya ibiryo birimo umunyu mwinshi. Ni byiza cyane kujya kureba kwisuzumisha kwa muganga, umenye niba waba ufite icyo kibazo.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane mu buzima, ni muri ubwo buryo business zitandukanye zigenda zizana gym mu kazi kugira ngo abakozi nyuma yo kuruha bagende ku bazifashisha, izo gym ziba zirimo ibyuma bitandukanye bakifashisha kugira ngo basohore imyanda mu mubiri ndetse babashe kuba bakomera.

Ikintu cya mbere bagukorera iyo ugiye kwivuza, barabanza bakagupima. Hari ibintu bitandukanye muganga ashobora kuba yagupima nk'umuriro, ndetse no kuba yakubaza ibimenyetso byawe, ariko ibyisumbuyeho bikorerwa muri muri rabo. Muri rabo ni bwo bagufata umusarani, bakareba nimba harimo mikorobe, inzoka, ndetse n'ibindi; kugira ngo bamenye ukundi kuntu bagufasha, bamenye imiti bakubwira ngo ufate, bitewe n'imyanda bagusanze mu musarani wawe.

Mu Rwanda tugira ibigo nderabuzima bitandukanye. Hari Faisal, CHUK, Kanombe ndetse n'ibindi nka Kinyinya. Ibyo byose iyo ubigannye bakwakira neza na serivise zisesuye, aho haba hari abaganga ndetse n'abaforomo bakubaza indwara urwaye, bakagupima ndetse bakakohereza kuri farumasi kureba imiti yabugenewe bitewe n'indwara bagusanzemo.

Mucyumba cyo kwa muganga harimo ibintu bitandukanye, haba harimo uburiri bushashe neza n'amashuka meza, haba harimo imisego, ibyuma bitandukanye ibyo bapimiramo umuvuduko w'amaraso, ibyo bareba uko umutima uri gutera, abarimo serumo ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kuvura tutibagiwe n'imitako kugira ngo hase neza.

Hari abaganga batandukanye baba bashinzwe kwita ku buzima bw'abakinnyi. Harimo abakina Football, Basket ndetse n'ibindi. Bakunze guhura n'imvune zikomeye ku buryo baba bakwiye ababitaho bihagije. Ni muri ubwo buryo, mu Rwanda tugiye dufite abatandukanye babitaho mu gihe bagize imvune mu kibuga, bakabakurikirana kugira ngo bazasubire mu kibuga bongere bakine bitababera imbogamizi byakwangiza ubuzima bwabo iteka ryose.

Imyitozo ngororamubiri igira akamaro cyane mu buzima bwacu. Harimo itandukanye nko kwirukanka, Gym ndetse n'iyindi. Harimo n'uwundi witwa Yoga wazanywe n'Abahinde aho bawukoreshaga kugira ngo bagorore imibiri yabo, imitsi ndetse n'ahantu haba hatonekara. Ibyo byifashishwa hakoresheje tapi, aho baryama kuri tapi bakagenda bigorora, kugira ngo bagere ahababara ndetse babe bahananura nkuko bikwiriye.

Amazi ni ngombwa cyane mu buzima. Umuntu yagakwiye kumenya ko nibura ku munsi afashe litiro ebyiri z'amazi. Bigufasha gukuramo imyanda mu nda, bikagufasha gukomeza amagufwa yawe, bikagufasha kugira ngo ubushyuhe bw'umubiri bugabanyuke, ndetse bukagufasha kuba wagira ubuzima bwiza busesuye. Ni ngombwa cyane kandi abaganga barabidushishikariza gufata amazi ku munsi kugira tubeho neza.

Siporo ni ingenzi cyane. Muri iki gihe turimo, abantu bafite uburyo bwinshi basigaye babikora. Muri ubwo buryo harimo guterura ibyuma bikomeye kugira ngo bazane pinya, ndetse bakomere, bazane ibituza, ndetse na ma budomino. Iyo uri gukora izo siporo zisaba guterura ibyuma bikomeye, bisaba ko ku ruhande rwawe hari umuntu ugomba kugufasha, kugira ngo utaza kwiteza ibibazo, byaturuka mu gukora iyo siporo nabi.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza ariko nyuma yaho aba ari byiza ko ugenda ukigorora. Iyo urangije gukora imyitozo nko kwirukanka, gukina ndetse n'ibindi ushaka ahantu wakwicara warangiza ukigorora ugera ahantu kure kugira ngo imitsi yawe irambuke ndetse n'amagufwa yawe ukomeze gukora neza.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane mu buzima. Ariko ntago twakwibagirwa ko inaniza. muri uko kunaniza ikimenyetso cy'uko uri gukora neza ubira icyuya. Iyo ubize icyuya ubushyuhe bw'umubiri buriyongera. Iyo bwiyongereye uba ushaka ikintu icyo ari cyo cyose cyabugabanya. Ni yo mpamvu akenshi abakinnyi ndetse n'abandi batandukanye bimenaho amazi kugira ngo bumve bugabanyutse.

Kunywa amazi ni ingenzi mu buzima amazi agufasha gukomera, akavana imyanda mu mubiri, ndetse no kumva uruhutse. Ubushakashatsi bwerekana ko iyo utanywa amazishobora kugutera kumagara, kugira ibibazo byo mu gifu, ndetse n'ibindi. Ni byiza wakwitwaza agashupa k'amazi kugira bikorohere, kuko igihe cyose uyabonye waba wayavoma, ukabasha kunywa ukaruhuka.

Ibicuruzwa bya Forever biratandukanye. Harimo amazi ya Aloe vera, amavuta, imiti y'amenyo ndetse n'ibinini. Byose bipfundikanye neza kandi bifite amabara agaragaza isuku. Hariho agakarito kaba kariho abantu baseka byumvikana yuko byazanwe kugira ngo bitume ubuzima bw'abantu bumera neza.

Imiti gakondo ni ingenzi cyane, mbere y'uko ibinini biza inshinge ndetse n'ibindi twifashishaga imiti gakondo, ntago dukwiye kwibagirwa akamaro yagiriraga abakurambere bacu ndetse na n'ubu ngubu abitwa abagorozi baracyayikora ikaba ifasha bamwe na bamwe, izwi cyane harimo nk'amakara akaba agufasha mu gihe urwaye mu nda akagutera kuba wadiyara ugasura iyo myanda yose binyuze mu mwanda.

Waba uribwa mu mugongo, mu ivi, mu ijosi, mu kaboko ndetse n'ahandi. Produits za forever ziza nk'umuti kuri ibi ngibi. Gana umu ejenti uwo ari we wese wa forever, cyangwa se ujye ku rubuga rwabo ari yo www.forever.com. Aho ngaho ni ho wareba ibiciro byabo, ukaba wagura iyo miti ikagufasha kuvura uburwayi bwawe.

Mbere y'umwaduko w'abazungu hataraza ibyo bita ibinini, inshinge ndetse n'ibindi, abanyarwanda twari dufite ukuntu twirwanaho, ndetse tugakora imiti idufasha mu kwivura. Abagorozi ndetse n'abandi na n'ubu baracyakora iyo miti, hifashishijwe ibintu dufite gakondo nk'imiravumba, imibirizi ndetse n'ibindi bitandukanye bikaba byifashishwa kuvura indwara zitandukanye z'abanyarwanda kugira ngo bagire ubuzima bwiza.